Umukozi w'ikigo gishinzwe ingufu REG, wambaye n'imyambaro y'ikigo akorera n'ingofero, ahagaze ku nzu, arimo arandika imibare y'umuriro, kode z'umuriro muri cashi pawa yo ku rugo rw'umuntu runaka, baha serivisi.

Abantu batanu bameze nk'abari bari mu nama ,bari kwifotoza ifoto y'urwibutso, harimo umuzungu wakwitanga umufatanya bikorwa, cyangwa undi muntu w'umutera nkunga runaka.

Abagabo bari mu kibuga bari gukina bari mu makipe abiri atandukanye, iyambaye nk'ikipe ya polisi yo mu Rwanda n'ikipe ya mukura yo mu majyepfo y'u Rwanda bari mu kibuga bakina, harimo umupira mu kibuga kiza n'umuzamu ari mu izamu.

Amakipe abiri y'umupira agiye guhangana, bigaragara ko ari abantu bakuru, bambaye imyambaro y'umuhondo n'umukara, nk'iyikipe ya Mukura n'abandi bambaye imyambaro nk'ikipe ya polisi, bagiye guhanganira mu kibuga bakina umupira.